Hasa nkaho habereye igikorwa runaka, hari abagore benshi bihicaye bambaye imipira y'umweru bateruye n'abana, hari umusore wambaye umupira w'umuhondo uri gukinisha umwana, ku ruhande rwabo hari abantu benshi bicaye mu matente.

Birasa n'aho ari kwa muganga, hari umuntu wambaye ishati y'icyatsi, afite urupapuro mu ntoki, ku meza hari mashini, hari n'undi muntu uri kureba mu mpapuro. Hari umumama uhahagaze bisa n'aho ari kwivuza, ku ruhande hari n'undi muntu uhahagaze wambaye ijire y'ubururu.

Biragaragara ko ari umugezi wundi bapompa hari umugore uri gupomba amazi hari n'umwana ufashe ijerekani ari kuvoma ku ruhande hari abantu bahagaze hari urugo rw'imiyenzi inyuma yabo hari n'urutoki.

Birasa naho ari ku kigo cy'amashuri hari abantu benshi bambaye baji mu izosi birasa naho bari kwifotoza, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru, hari n'inyubako isize irangi ry'umweru.

Birasa n'aho ari ku kigo cy'amashuri hari abana benshi bambaye inifomo, buri mwana afite igikombe mu ntoki, imbere yabo haturitse indobo ebyiri ziri mu ibara ry'ubururu, bisa n'aho hari icyo bavoma muri izo ndobo. Inyuma hari ibiti birebire hari n'inyubako z'amashuri.

Hari abantu benshi bambaye amatabara y'abanyabuzima bambaye baji mu ijosi imbere hari umugabo wambaye kositimu barasa nkaho bamuririmbira bishimye inyuma hari abafotora haruguru hari inyubako yanditseho ikigo nderabuzima cya mayange.

Hasa naho habereye amahugurwa runaka, hari abantu benshi bambaye amataburiya yo kwa muganga bambaye baji mu ijosi, hari umusaza wambaye ikositimu ubari hagati. kuruhande hari nundi mugabo wambaye itaburiya y'umweru.

Biragaragara ko ari kwa muganga, hari abantu batatu bambaye amataburiya y'umweru bisa nkaho ari abaganga, umwe Ari gutera urushinge umusaza uhicaye, hari ameza ari ku ruhande ariho ibikoresho bifashisha bavura abantu.

Umwana wambaye ishati y'umuhondo n'ikabutura y'ubururu afite ibirahure bibiri by'amazi mu ntoki, iruhande rwe hari ikidendezi cy'amazi hari n'abandi bana bahagaze hakurya, imbere ye hari ibyatsi.

Birasa nk'aho ari kwa muganga hari umurwayi aryamye ku gatanda k'abarwayi, hari abandi bantu babiri bahagaze umwe birasa nk'aho ari umurwaza undi biragaragara ko ari umuganga afite agapimo ari kumupimisha kote.

Bisa nk'aho habereye inama runaka, hari abantu bicaye imbere, umwe afite mikoro birasa nkaho hari icyo ari kuvuga, imbere yabo hari impapuro ku meza hari na telefoni n'ikindi gitabo gihari, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru, yambaye ga mu ntoki, birasa nkaho ari gukingira abana. Hari umugore uhicaye ateruye umwana mu ntoki, bisa nkaho bagiye kumutera urushinge.

Birasa naho habereye igikorwa runaka, umugabo wambaye umupira w'ubururu, yambaye baji mu ijosi, yambaye n'akajire k'umukara inyuma, afite impapuro ari kugenda ahereza buri muturage urupapuro.

Birasa nk'aho ari kwa muganga hari umuntu wambaye imyenda yo kwa muganga, hari n'undi uri kwandika mu gitabo kinini, hari abagore benshi bahagaze birasa nk'aho baje gukingiza.

Birasa naho habereye inama hari abantu benshi bicaye muri sare, imbere hari ameza ateretseho urupapuro hariho na mashini hari umugabo uri hagati wambaye itaburiya y'umweru bisa naho hari icyo ari kubabwira, hanze hateyeyo n'ibiti.

Birasa naho hari gupimwa indwara runaka, hari umusaza wicaye bambitse igipimo ku kuboko, ku meza hari akandi kamashini kahatetse kari kugaragaza ibipimo, hateretse n'icupa ry'amazi hari n'abandi bantu ku ruhande.

Umugezi abantu benshi bakunze kwita pompe, hari umukobwa uri inyuma uri gutompa amazi, imbere hari utwana turi kuvoma, haruguru hari imodoka y'umweru ihaparitse hari n'ibiti byinshi.

Birasa n'aho habereye inama, hari abantu benshi bicaye. Imbere hari umugabo wambaye kositimu n'undi begeranye bisa n'aho aribo bayoboye iyo nama, buri muntu imbere ye hagiye hateretse icupa ry'amazi, ku meza hateretse na mashine.

Umwana wambaye ishati yishuri, yambaye ishapure mu ijosi, birasa nkaho ari gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe. Ku ruhande, hari igikuta cy'amatafari ahiye, n'umuryango ufite ibara ritukura.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hateye ikirabo cy'umutuku, hari imiyenzi, hari n'inyubako ziri ku ruhande. Hakurya hari ibindi biti birebire.

Birasa naho habereye igikorwa cyo kwiyamamaza, hari abantu benshi bicaye, imbere yabo hari abagabo batanu bahicaye n'umugore umwe, birasa naho ari abakandida. Inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kiriho amasura y'abakandida.

Biragaragara ko ariko umugezi rusange, hari umwana inyuma urimo urapopa amazi, imbere hari undi uri kuvoma. Ku ruhande hari umwana uhagaze ufite akajerekani mu ntoki, hari n'undi muntu uri kugenda bisa naho agiye gufata akajerekani.

Birasa naho ari ku mugezi rusange hari robine hari amajerikani menshi batondeshejwe umurongo hari n'abantu bahagaze ku ruhande bigaragara nkaho bari kuvoma ,hari umukobwa wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi biragaragara nk'aho ari we uvomesha .

Bisa nk'aho ari ku kigo cy'amashuri hari abana benshi bicaye, harimo n'abantu bakuru. Bisa n'aho aribo babarera, ku meza hateretseho ibirahure ndetse n'ibindi bikoresho bakoresha bigisha. Hari abagabo babiri bicaye mu nguni, bisa n'aho hari icyo bababwira

Hasa n'ahari umugezi rusange, inyuma hari umugabo uri gupompa amazi, imbere hari ijerekani irimo irajyamo amazi, hari abandi bantu bahagaze ku ruhande basa n'abari kureba ibyo akora, inyuma yabo hari ibyatsi hari n'inyubako iri haruguru.

Birasa naho habayeho amahugurwa runaka, hari umuntu wambaye ijire y'umweru afite ikayi mu ntoki n'ikaramu, birasa naho ariho arandika. Ku ruhande rwe hari abandi bantu benshi bahagaze.

Ni i kwa muganga aho bapimira abana ibiro hari umunzani, kariso y'umunzani abana bambara, hari ababyeyi bicaye hari n'umugabo bisa naho ari kubaha amabwiriza

Abantu benshi bambaye imipira isa, birasa nk’aho ari abakozi ba kampani runaka. Bambaye baji mu ijosi, hari icyapa cy'ubururu cyanditseho unicefu. Inyuma yabo hari n'ibindi byapa byinshi.

Biragaragara nk'aho ari ku kigo nderabuzima, hari umugore n'umugabo bicaye ku ntebe, hari indi ntebe iteretseho impapuro, hari n'umuganga ufite igitabo mu ntoki, birasa naho arimo arababwira ukuntu bagomba kwitwara mu gihe batwite.

Biragaragara ko ari ku mugezi rusange, hari abantu benshi baje kuvoma, bamwe bafite indobo abandi bafite amajerekani n'abana bafite utujerekani dutoya, inyuma yabo hateye ibiti byinshi.

Biragaragara nk'aho ari kwa muganga, hari ababyeyi benshi bicaye, buri umwe agiye ateruye agahinja, birasa n'aho baje gukingiza, bicaye ku ntebe y'umweru, inyuma hari n'igikuta cy'amatafari ahiye.

Hari abana batatu birasa n'aho bari gukaraba intoki, hari undi mugabo wambaye umupira w'icyatsi, afite igikombe mu ntoki arimo arabasukira amazi ngo bakarabe, ku ruhande rwabo hari ibiti.

Birasa naho habereye amahugurwa runaka, hari abantu benshi bicaye bamwe bafite impapuro n'ikaramu barimo barandika, inyuma yabo hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu gishushanyijeho, umuntu birasa n'aho bari guhabwa amahugurwa yo kwa muganga.

Bisa naho habereye inama runaka, hari abantu benshi bicaye, imbere hari umugore uri kuvuga, bisa naho hari ibyo ari kubabwira. Ku meza aho hantu abantu bicaye, hariho amacupa y'amazi amasakoshi, impapuro n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ahantu hasa nk'aho habereye inama, hari abantu benshi bicaye bakikije ameza, ku meza aho bicaye hagiye hateretse buri muntu imbere icupa ry'amazi, hari abafite amakayi n'amakaramu bari kwandika, hari n'abafite telefone nini za tabureti.

Bisa n'aho habereye inama runaka hari abantu benshi bicaye buri muntu imbere ye hateretse icupa ry'amazi, hari abafite i mashini imbere yabo kuruhande hari umuntu urimo urafotora, hari na taburo nini imanitse ku gikuta.

Mbese nawe kwa muganga umugore wambayetamera y'umweru afite urushinge, ari gutera umwana, undi mugore umuteruye uteze igitambaro, hari n'undi muntu wambaye ishati y'umweru, uhagaze inyuma yabo.

Biragaragara ko ari kwa muganga hari abantu benshi bambaye amataburiya yo kwa muganga, imbere hari umugabo wambaye ikote rya kacyi n'ipantaro y'umukara bisa n'aho hari icyo ari kubabwira bahagaze nk'abifotoza.

Birasa n'aho habereye amahugurwa runaka, hari abakozi ba kampani runaka. Bambaye amakositimu, bambaye baji mu ijosi, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'ubururu.

Birasa naho habere amahugurwa runaka hari abantu benshi bicaye bafite impapuro mu ntoki barasa naho hari ibyo bari kuganiraho, hari umugore wambaye ikanzu y'umuhondo birasa naho hari icyo ari kuvuga.

Bisa naho ari ku mugezi rusange inyuma hari umugabo urimo urapopa amazi, hari abana baje kuvoma hari n'ibijerekani k'umugezi, haruguru yabo hari ibyatsi byinshi hari n'ibiti.

Ku mugezi abantu benshi bakunze kwita pompe hari abana benshi bahagaze n'abicaye, hari utujerekani, hari abari gupompa ngo amazi aze barangariye haruguru birasa naho hari icyo bareba.

Hasa naho habereye inama hari abantu benshi bicaye, imbere hari umuntu ufite mikoro birasa naho hari icyo ababwira, buri muntu imbere ye hateretse icupa ry'amazi, hari n'abafite mashini imbere yabo, bambaye na baji mu ijosi.

Hari umugezi utemba, hari umukobwa ukandagiye mu mazi uri kuvomera mu ijerekani, hari umusore ku ruhande uri koza igare wambaye umupira w'icyatsi, ku ruhande hari ibyatsi byinshi.

Biragaragara ko habereye amahugurwa runaka hari abantu benshi bicaye bambaye imipira isa, ku ruhande hari undi wambaye ikositimu, bahanze amaso imbere birasa naho hari ibyo barimo barakurikira.

Abaturage bicaye bisa n'aho hari amahugurwa runaka, hari umugabo imbere wambaye agapfukamunwa n'umupira urimo amabara atukura, ari kwandika imbere ku kibaho, birasa n'aho hari ibyo abasobanurira.

Birasa naho habereye inama hari abantu benshi bicaye bamwe bafite ikaramu mu ntoki n'impapuro bisa naho hari ibyo bari kwandika, umugore wambaye ijire y'ubururu azamuye agatoki hejuru birasa naho hari ibyo ababwira.

Umugore wambaye umupira w'umweru afite agapimo gapimisha umuriro, afite telefoni mu ntoki, afite nibitabo ku bibero, ku ruhande hari umugore uteruye umwana ari kureba kuri ako gapimo.

Birasa naho hari urwibutso hari umugabo wambaye kositimu bisa naho yunamiye abari kuri urwo rwibutso, hari n'ururabo ruteretse iruhande rwe, ku ruhande hari umukobwa wambaye n'ijere y'abakoranabushake.

Biragaragara nkaho habereye amahugurwa runaka, hari abantu benshi, buri umwe yambaye baji mu ijosi, ku meza aho bicaye hateretse buri muntu imbere ye icupa ry'amazi, bamwe bafite na mashini imbere yabo.

Umukecuru wicaye ku gatebe k'agasongabugari, bisa naho atetse igikoma cyangwa ibindi bintu, acanye ku nkwi, iruhande rwe hari ibikombe bibiri hari n'umufuniko w'isafuriya, haruguru hateretse ijerekani hari n'inkoko y'umweru.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu imbere ye hari imashini, hari icupa ry'amazi riteritse ku meza hari n'urupapuro. Hari igikapu giteretse ku meza iruhande rwe. Hari umugore uhicaye wambaye umupira wicyatsi.

Birasa naho habereye inama runaka, hari abantu benshi bicaye n'abandi bahagaze, birasa naho barimo barifotoza. Inyuma ku gikuta hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho rbc.

Birasa naho ari kwa muganga hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru agapfukamunwa na amarinete birasa naho ari muri laboratware yo kwa muganga afite ikimarikeri ari kwandika.

Biragaragara nkaho ari kwa muganga. Hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru, isaha isaha kukuboko hari n'ikaramu mu mufuka. Hari igitanda cy'abarwayi, ku ruhande hari aho bakarabira, hari n'ikimashini kinini bisa naho gipima indwara.

Abana b'abanyeshuri buri umwe agiye afite uburoso mu ntoki igikombe cy'amazi na korogate, birasa naho barimo barabigisha koza amenyo, inyuma yabo hari ibiti birebire.

Biragaragara ko ari ku kigo cy'amashuri, hari abana benshi bambaye inifomo bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki n'igikombe cy'amazi, birasa naho bari kubigisha koza amenyo yabo.

Birasa nk'aho ari mu kigo cy'amashuri. Abana batoya bafite corogate, uburoso bw'amenyo mu ntoki, bazamuye akaboko hejuru. Birasa nk'aho habereye amahugurwa yo kwigisha abana koza amenyo, harimo n'umuntu mukuru bigaragare ko ari we mwarimu.

Birasa naho bari gupima indwara runaka. Umuganga wambaye ga atamitse umukobwa kanu mu kanwa yambaye n' itaburiya y'umweru. Ku meza aho yicaye hari impapuro hari ikaramu hari na telefone, ku ruhande hari abandi bantu bari kwandika.

Biragaragara nkaho ari mu karesitora runaka hari umusaza wicaye mu kagari k'abafite ubumuga imbere hateretse isahane iriho isosi hari n'undi mukecuru bari kunganira ku meza aho bicaye yateretse ikirahure cy'amazi inyuma yabo hari n'abandi bantu bahicaye.

Bisa n'aho ari kwa muganga, hari umukobwa wambaye umupira w'umuhondo, afite ikaramu mu ntoki n'agapapuro ku meza, ateretse ibinini hari ikayi nini hari n'ikirahure cy'amazi, iruhande rwe hari umusaza.

Biragaragara ko ari kwa muganga umugabo wambaye itabuya y'umweru mu ijosi yambaye akuma bapimisha umutima, hari umusaza wicaye iruhande wambaye ishati ya shokora afiteti ikayi mu ntoki umuganga birasa naho hari ibyo arimo aramusobanurira.

Biragaragara nko kwa muganga hari umusaza wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara imbere ye hari umuntu wambaye imyenda yo kwa muganga yambaye na baji mu ijosi ari kumukoresha siporo.

Umukecuru wambaye umupira utukura n'umusaza wambaye umupira w'umweru, biragaragara ko bari gusangirira ku meza, buri umwe imbere ye hagiye hateretse isahane iriho ibiryo, hari ikirahure kirimo amazi, hari n'andi masorori ateguye ku meza.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru afite imyuka ibiri mu ntoki, birasa nkaho ari kwarurira undi musore wambaye umupira utukura. Afite isahani iriho imigati ibiri, icyuma, bagiye kumushyiraho n'imboga hagati yabo hari umukecuru ahahagaze.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu afite ibinini mu ntoki ku meza aho yicaye hateretse uducupa tubiri tw'ibinini hateretse n'ikirahure cy'amazi, hari umukecuru wambaye umupira utukura afite urupapuro mu ntoki birasa naho hari ibyo ari kumwereka.

Hari umusaza wambaye ishati y'ubururu ipantaro y'ikoboyi yicaye ku buriri, kuruhande rwabo umukobwa wambaye umupira w'mweru n'ipantaro y'ikoboye biragaragara ko arimo aramufasha guhaguruka.

Umusaza wambaye umupira w'umukara imbere ye hariru umukobwa wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara afite agacupa k'ibinini mu ntoki, umusaza ateze ikiganza bagiye kumushyiraho ikinini, ku meza aho bicaye hateretseho mashini n'ikirahure cy'amazi.

Birasa n'aho ari kwa muganga hari abaganga bambaye imyenda imeze n'amasashi, udupfukamunwa, bipfutse no mu mutwe n'amaso. Birasa n'aho bakora muri laboratwari, inyuma yabo hagaze undi mugabo.

Birasa n'aho habereye inama runaka hari abantu benshi bicaye, imbere hari abagabo babiri bambaye ikositimu bisa naho bayoboye iyo nama, buri muntu iruhande rwa hatetse icupa ry'amazi, hari na mikoro na telefone nini za tabureti.

Bisa n'aho habereye amahugurwa runaka, abagabo babiri bambaye kositimu, bafatanya ibiganza, bafite impapuro mu ntoki, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru.

Biragaragara nkaho habereye amahugurwa runaka, hari abantu benshi bicaye, imbere hari abakobwa bambaye imikenyero y'umweru babyina, hari n'abasore bambaye imipira y'ubururu, inyuma ku gikuta hari icyapa kiri mu ibara ritukura, hirya y'icyo cyapa hateye indabo.

Biragaragara ko ari abanyeshuri benshi bari kugenda mu muhanda, hepfo yo mu muhanda hari ibiti, hari n'amatara yo ku muhanda. Bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo rubyiruko nimwe hazaza heza h'uru Rwanda, irinde virusi itera Sida. Ipimishe uyu munsi.

Birasa naho ari kwa muganga, abantu batatu bambaye imyenda yo kwa muganga, udupfukamunwa na ga mu ntoki, ku ruhande hari igitanda cy'abarwayi, bari kumurika bisa nkaho hari ibyo bari gukora, inyuma hari imashini bifashisha.

Birasa n'aho habereye inama runaka, hari abantu benshi bicaye, imbere yabo hari abagabo bane n'abakobwa babiri, bisa nk'aho aribo bayoboye iyo nama. Abantu babiri bafite mikoro mu ntoki, umwe ari kuvuga birasa n'aho hari icyo ababwira.

Bisa naho habereye amahugurwa runaka, umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro ikoboyi n'umugore wambaye agapira k'umukara n'ipantaro y'umukara, bafashe icyapa cy'umweru mu ntoki cyanditseho ngo twisuzumishe igituntu kiravurwa kigakira.

Birasa n'aho habereye igikorwa cyo kwiyamamaza, imbere hari abagabo batanu n'umugore umwe, bisa n'aho ari abakandida, hejuru ku gikuta hari icyapa kiririmo ibara ry'icyatsi, kiriho amafoto y'abakandida.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu wicaye mu ntebe, hari umusekirite ukinguriye modoka ye ngo igende, imbere hari izindi modoka zihaparitse, hari abantu babiri bahagararanye, hari n'inyubako igeretse.

Biragaragara ko ari kwa muganga, hari umuntu wicaye wambaye umupira w'umweru uri kwandika, ku meza hateretseho sanitayiza, hariho n'imfunguzo, hari umuganga bigaragare ko arimo arabapima.

Abantu benshi bambaye amataburiya y'umweru, ku meza hari ibikoresho uducupa, udukibe papiye jenike n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, birasa nk'aho ari muri laboratwari.

Ni muri parikingi hari imodoka nyinshi ziparitse z'ubwoko bwose, hari umugabo wambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'ikoboyi, hakurya hari inzu nini cyane igeretse isize irange ry'umweru, inyuma hateye ibiti birebire.

Icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kiri ku ruhande, hari indabo, imbere hari icyuma kigaragara nkaho bamanikaho idarapo, hari imodoka iparitse ku ruhande, hari umusekirite uhahagaze, imbere biragaragara nkaho ari ibitaro.

Birasa naho kwa muganga hari abantu bane bambaye amataburiya yo kwa muganga, hari ibyuma bisa nkaho ari muri laboratwari hari n'ibindi bikoresho biri ku meza byo kwifashisha.

Bisa nk'aho ari kwa muganga. Hari ibitanda by'abarwayi, hari akantu bamanikaho serumu, imbere hari imashini ifashishwa kureba niba abarwayi badafite umuriro, hari na taburo ishushanyijeho imbuto n'ibindi.

Birasa naho habereye inama hari abantu benshi bicaye imbere hari abantu batatu bahicaye bisa n'aho bayoboye iyo nama ku meza aho bicaye hagiye hateretse amacupa y'amazi ,haruguru ku gikuta hari icyapa kirimo ibara ry'umutuku.

Biragaragara ko ari mu bitaro, hari ibitanda byinshi by'abarwayi, hari umuntu wambaye itaburiya yo kwa muganga, hari n'abandi bantu barimo barakoropa. Haruguru, hari abandi bicaye mu bitanda.

Hari icyapa kiri mu ibara ritukura cyanditseho ikigo nderabuzima, imbere hari abagore babiri batwite bisa n'aho bavuye ku kigo nderabuzima. Hari inyubako y'amatafari ahiye ifite amabati y'ubururu, hari n'ikigega ku ruhande. Hari n'umuhanda urimo urujya n'uruza rw'abantu.

Hari icyapa ki mu ibara ry'umweru hari inzu y'amatafari ahiye n'amabati y'ubururu, hateye umukindo ku ruhande hari na jaride nini, hari n'ibiti birebire ku ruhande.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru, birasa n'aho ari kwa muganga, hari ibendera, hari imodoka eshatu zihaparitse, hari n'umugore uri kugenda ahetse umwana afite n'umutaka, hari icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'uruziga.

Hari inyubako nini ifite amabati y'ubururu irasa nkaho ari kwa muganga, hari imodoka ihaparitse, hari umugabo uyihagaze iruhande, hari n'abandi bantu batatu bahagaze hirya. Ku ruhande hariho n'akandi kanyubako gatoya.

Birasa nkaho ari kwa muganga hari umuntu uryamye ku gatanda k'abarwayi, iruhande rwe hari ikimashini kinini, ku ruhande hari n'ikindi kimashini kinini kiriho ibitsinga ariko hari kwakamo n'amatara, hari n'umuryango ukinguye.

Biragaragara nkaho ari kwa muganga, hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru, gishushanyijeho ijisho, ku ruhande hari n'ikindi cyapa. Hari indabo zikikije buri ruhande rw'inyubako, hari inyubako ndende y'amatafari ahiye, ifite n'amadirishya y'umweru.

Biragaragara ko ari kwa muganga, umusaza wambaye ishati itukura ahambiriye ikintu ku kuboko, bisa n'aho bari kumupima indwara runaka, hari umuforomokazi cyangwa se umuganga amwicaye iruhande ari kureba uko bimeze.

Inzu igeretse iriho icyapa bisa n'aho ari kwa muganga, harimo urujya n'uruza rw'abantu, hari imodoka y'umukara iparitse hanze, hari n'izindi ebyiri z'umweru ziparitse ku ruhande, inyuma hari ibiti birebire, hari n'ibindi byapa by'umweru.

Inzu igeretse isize irangi ry'umweru bisa' n'aho ikorerwamo ubucuruzi, hejuru hari icyacyapa cyanditseho kifaroma Remera, bisa n'aho uwo muryango ukoreramo farumasi, hari indabo nyinshi zigiye ziteretse imbere y'umuryango, hari n'imodoka ihaparitse.

Inyubako ifite amabati y'ubururu, isize irangi ry'mweru yanditseho ikigo nderabuzima cya Shagasha. Ku ruhande hari abagore babiri bahicaye n'umwana umwe, birasa nkaho baje kwivuza.

Birasa n'aho ari kwa muganga, hari ibyuma byinshi bikoreshwa kwa muganga aho basuzumira indwara, hari mashini, hari ibikoresho byinshi biteretse ku meza hari n'umuganga.

Umuntu utwaye igare, inyuma ahetseho umukobwa, bafite indobo mu ntoki, ku ruhande hari ibyapa bibiri bihagaze, imbere biragaragara nk'aho ari ku kigo nderabuzima, hari abantu benshi hari n'igare riparitse ku muryango.

Biragaragara nkaho ari kwa muganga, hari umugabo wegamiye igikuta, hari umugore uteruye umwana, hari inzu igeretse, imbere harimo abantu babiri bambaye amataburiya y'umweru, n'undi umwe wambaye iy'ubururu.

Biragaragara nkaho ari mu bitaro hari igitanda baryamisha abarwayi hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru bisa nkaho ari umuganga hari n'undi wambaye ishati y'umweru uhagaze inyuma ye, imbere hari abagabo babiri bambaye ibisarubeti by'ubururu n'umugore umwe.

Biragaragara nk'ahabereye amahugurwa runaka, hari abantu benshi bicaye, hejuru bambaye imipira isa, iruhande rw'aho bicaye buri muntu yahateretse icupa ry'amazi, bahanze amaso imbere birasa naho hari uwo bakurikiye.

Hari inyubako ndende biragaragara nkaho ari kwa muganga cyangwa se ku kigo cy'amashuri, hari imodoka ihaparitse, hari umugabo uyihagaze iruhande, hari indabo ziteye ku ruhande, hariho n'akandi kanyubako gato kometseho hari abantu bahahagaze.

Umugabo wambaye imyenda yo kwa muganga mu ijosi yambaye akuma bapimisha uko umutima utera, hari umukecuru bicaranye bisa naho bari kuganira, hakurya yabo hateye indabo, hari n'urutoki, hari n'igikuta cy'amatafari.

Hari inyubako y'amatafari ahiye hejuru handitseho isange wani topu senta, aho bakirira abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hari n'amadirishya y'ibirahuri.

Hari inzu nini cyane igeretse, ifite amabati atukura, birasa naho ari ku kigo cy'amashuri cyangwa kwa muganga. Hari idarapo riri hanze, hari imodoka itukura iparitse ku ruhande, hari n'akamoto kahaparitse.

Birasa nkaho ari kwa muganga hari ibitanda byinshi by'abarwayi bo kwa muganga, hari umuntu wicaye mu kagare ku ruhande, hari umugabo wambaye itabuririya y'umweru, hari n'abarwayi n'abarwaza.

Hari imidari ku meza ibinini n'ibindi bikoresho runaka, hariho imbuto, inanasi, imyembe, voka, pome, irongi, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.

Biragaragara nkaho ari kwa muganga, hari umuntu wicaye hejuru bigaragare ko yavunitse, afite igipfuko ku kuguru, hari undi mugabo wambaye umupira w'umutuku, afite akantu mu ntoki bisa naho ari kumushyiriraho umuti.

Biragaragara ko ari ikibuga kinini cya basikete, hagati harimo abana bari gukina, hari amazamu inyuma ya basikete, hari n'abantu benshi bisa naho bari gufana, bafite n'icyapa cy'umweru, inyuma y'abo bantu hariho urutoki runini cyane.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru y'imbangukiragutabara iri kugenda, hari amatara yo ku muhanda n'insinga z'amashanyarazi, hari indabo zikikije umuhanda, haruguru hateye n'ibiti birebire binini.

Birasa naho bari gukora siporo, hari abantu benshi batonze umurongo, abana n'abandi bantu bakuru basa naho bari gukora siporo, hakurya yateye ibiti hari n'inyubako ifite amabati atukura.

Ahakinirwa umupira hari abakinnyi batandukanye, abambaye imyenda y'umuhondo n'abandi bambaye imipira y'icyatsi n'amakabutura y'ubururu, hari uwaguye hasi bisa naho akomeretse, hari umugabo wambaye ijiri y'umutuku n'undi mukobwa bisa naho bamushyiriraho imiti.

Ibribwa bigiye bitandukanya, inyama, amagi, imineke, inkeri ,amashu, pavuro ,ibitunguru ,shufureri n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ku ruhande hari utwuma bifashisha muri siporo.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa, yambaye n'akantu mu mutwe, afite agakarito mu ntoki, ku meza hateretseho n'utundi dukarito twinshi, biragaragara nk'aho ari imiti agiye gushyira muri sitoke.

Ahacuruzwa imiti n'ibindi bitandukanye bya gakondo, hari umuma wambaye baji mu izosi birasa nkaho ari uri gucuruza, inyuma hari umuganga wambaye yitabura y'umweru, ku ruhande hari abantu bisa naho ari abakiriya.